Igihingwa cy'amashu ni uruboga rwiza ruri gukundwa n'abantu benshi muri iki gihe, kubera ko twese tumaze gusobanukirwa akamaro ko kurya imboga mu mibereho ya buri muntu muri twe.

Ni ngombwa ko tugirira isuku ahantu tubika ibikoresho bitandukanye, yaba ibyo kurya, ibyo kunywa, cyangwa se ibyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo bigumane ubuziranenge bwabyo, ni ngombwa kubyitaho tubibika ahantu heza hasukuye.

Ubuhinzi ni umwuga ukorwa n'abantu benshi mu Rwanda, kubera ko abanyarwanda benshi barenga mirongo icyenda na gatanu ku ijana bakora umwuga w'ubuhinzi. Iyo duhinga rero ni ngombwa guhinga kijyambere, tukifashisha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo umusaruro uboneke mu buryo bukwiye.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane, bugezweho muri ino minsi. Ariko kandi ni ngombwa kwita ku gihingwa cy'ibigori uko bwije n'uko bucye, kugira ngo kiduhe umusaruro twifuza, ibi bikajyana no gutera ibigori umuti wica udukoko dushobora kubyangiza, bigatuma tutabona umusaruro twitegaga.

Burya ngo umwuga wakozwe neza ukiza nyirawo ubuhinzi bw'igihingwa k'ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane kandi bugezweho muri iki gihe kubera ko bufite isoko hirya no hino mu gihugu, umuhinzi wabyitayeho akabihinga kinyamwuga mu buryo bugezweho, nta kabuza ubuhinzi bw'ibigori bumuteza imbere kakahava.

Gukoresha inyongeramusaruro ni ingamba buri muhinzi wese akwiye gufata, ni ngombwa ko dukoresha imbuto z'indobanure, tugakoresha imirama yatoranyijwe, tugakoresha kandi imiti yabugenewe kugira ngo twice udukoko ndetse n'ibyonyi by'imyaka, kandi buri gihe tukihatira gukoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera.

Gukoresha inyongeramusaruro mu buhinzi, ni inama yagirwa buri buhinzi muri iki gihe turimo. Umuhinzi wanyawe, akwiye gukoresha ifumbire y'imvaruganda, agakoresha imbuto z'indobanure ndetse akita no ku bihingwa bye, abirinda ibyonnyi bya buri munsi.

Amaduka y'inyongeramusaruro afasha abaturage mu buryo bukomeye. Ni ho bakura imbuto z'indobanure, ni ho bakura imirama myiza ifite ubwiza butangaje, nk'imirama ya karoti, imirama ya pavuro, imirama y'ibitunguru ndetse n'ibindi. Ni ho kandi bakura imiti yo kurwanya ibyonnyi byibasira imyaka.

Ubuhinzi ni bwiza kubera ko butugirira umumaro munini mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko biba akarusha iyo duhinze kinyamwuga, ni ngombwa rero kwita ku bihingwa byawe, ukabibaga, ukabisukira, ukabyuhira kugira ngo bigumane itoto ryabyo.

Ubucuruzi bw'inyongeramusaruro buradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abahinzi. Kubera ko ariho dukura ifumbire y'imvaruganda, imbuto z'indobanure, imiti ituma twica udukoko twangiza ubuhinzi bwacu ndetse n'ibindi.

Gukoresha ifumbire y'imborera ni byiza na byo mu buhinzi kubera ko iyo ifumbire y'imborera ivanze n'imvaruganda ni bwo umusaruro ushobora kuboneka mu buryo bukwiye, ni ngombwa kandi kuyitegura hakiri kare kugira ngo igihe cy'ihinga kitagucika, ugomba kuyitegura hakiri kare.

Ni ngombwa twese abahinzi ko dukwiye gukoresha inyongeramusaruro ziboneye kugira ngo twongere umusaruro w'ubuhinzi mu buryo bukwiye, tukitabira gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'imbuto z'indobanure kugira ngo tubone umusaruro uhagije.

Kugira abafatanyabikorwa mu buhinzi ni ikintu cy'ingenzi kubera ko bituma twunga ingufu zacu tukazishyira hamwe bityo tukagera ku musaruro twifuza kandi vuba, ni ngombwa rero gushyira ingufu zacu hamwe tugahuza n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo ibyo dukora birusheho kugira ireme mu buzima.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu gitanga umusaruro iyo cyitaweho neza. Ni ngombwa kugikorera neza, ukamenya kukirinda ibyonnyi bicyangiza, guterera umuti ku gihe urwanya udusimba kugira ngo na yo irusheho kuguha umusaruro ukwiye.

Amaduka y'inyongeramusaruro ni ingenzi cyane ku bahinzi kubera ko abafasha kubona inyongeramusaruro zigezweho, zigizwe n'imbuto z'indobanure zikagirwa kandi n'amafumbire y'imvaruganda ndetse n'imiti bakoresha bica udukoko twangiriza imyaka.

Imihanda yacu dukwiye kuyibungabunga kubera ko iraduhuza ikoroshya ubuhahirane hagati y'agace n'akandi, ni ngombwa kuyifata neza, tukayisibura aho yangijwe n'amazi y'imvura kugira ubwo buhahirane koko bugumye bushoboke.

Mu buhinzi ni ngombwa gukoresha uburyo bugezweho, bityo tukihatira gukoresha amafumbire atandukanye, tugakoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'ifumbire y'imborera, tugahinga mu buryo bwa kijyambere kugira ngo ubuhinzi dukora bujyane n'igihe burusheho kuduteza imbere uku bwije nuko bukeye.

Inyanya ni igihingwa cyiza kandi kiri guteza abantu imbere muri iyi minsi, biterwa n'uko isoko ry'inyanya ryagutse ritari iryo kugurisha mu isoko gusa ahubwo zijyanwa no mu nganda, zigakorwamo n'ibindi biribwa bitandukanye.

Ibimera ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu kubera ko bidufasha gusukura ikirere cyacu bikaduha akuka keza duhumeka bityo tukabaho mu buzima buzira kurwaragurika cyangwa se izindi ngaruka zose twaterwa n'ihindagurika ry'ikirere.

Igihingwa cy'ibisheke ni igihingwa cyiza cyane kubera ko kiduha amafaranga, tukiteza imbere mu buzima bwacu. Ni igihingwa ushobora guhinga ukajya kukigurisha ku ruganda, ku nganda zikora isukari ariko ni n'igihinga ushobora gukoresha iwawe mu rugo, ukakirya ndetse n'abawe, ukongera isukari mu mubiri.

Ubuhinzi ni ingirakamaro yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga ariko by'umwihariko ubuhinzi bw'ingano ni ubuhinzi buteza imbere uwabukoze iyo abukoze kinyamwuga kubera ko ingano tuzifashisha kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibidukikije aho biva bikagera ni inshuti ya muntu kubera ko bigira uruhare mu mibereho yacu, ni ngombwa rero natwe kubibungabunga tukirinda kujugunya imyanda aho tubanye hose cyane cyane imyanda itabora, kubera ko ibi byangiza ibidukikije ku buryo bugaragara.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza, kubera ko gikunzwe n'abantu benshi, ni ngombwa rero kugihinga, tukagihinga kijyambere kugira ngo duhaze isoko ry'iwacu, ndetse n'iby'imahanga, ibirayi byahinzwe neza bitanga umusaruro, umuntu akiteza imbere we n'umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bukozwe kinyamwuga buteza imbere nyirabwo. Ni ngombwa ko duhinga bya kijyambere, ibihingwa byacu tukabitera ku murongo kugira ngo bigende bihana umwanya, urumuri rubashe kwinjiramo kubera ko ari byo bizaduha umusaruro ukwiye.

Igihingwa cy'ibirayi ni igice gikunzwe n'abanyarwanda benshi mu duce dutandukanye tw'igihugu, bigatuma uwagihinze abyitayeho kinyamwuga, kimuteza imbere kubera ko gifite isoko ryagutse cyane, ibyo bigatuma ashobora kugurisha mu duce twose tw'igihugu.

Ikawa ni igihingwa cyiza cyane, igihingwa ngandurabukungu kubera ko kiduha amafaranga tugakemura ibibazo duhura nabyo mu buzima, ni ngombwa rero guhinga ikawa kenshi kugira ngo tubashe kugera ku iterambere twifuza muri ubu buzima.

Ibiti bivangwa n'imyaka ni ibiti byiza cyane kubera ko bitabangamira indi myaka bihinganye, niyo mpamvu rero twese dukwiye gushishikarira gutera ibiti bivangwa n'imyaka dore ko usibye gufata ubutaka bwacu kugira ngo bitagunduka, binadufasha mu buzima busanzwe kubera ko tubigaburira amatungo ikindi kandi tukaba twabikoramo imbaho ndetse n'ibindi bikoresho igihe bikuze.

Ibirayi ni bimwe mu binyamafufu bikunzwe n'abantu benshi hano mu Rwanda, ni ngombwa rero kwita ku gihingwa k'ibirayi kugira ngo tubone umusaruro ushobora guhaza isoko ryacu kandi tugasagurira n'amasoko y'imahanga.

Ikahwa yitaweho kuva ikiri ntoya ikabagarirwa, igasukirwa, ikicirwa, ikarindwa ibyonnyi bitandukanye, irera maze igaha umusaruro umuhinzi wayihinze, akiteza imbere we n'umuryango we ndetse n'Igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'urutoki ni ubuhinzi bwitaweho muri iyi minsi kubera ko uwabukoze neza akabukora kijyambere burushaho kumuteza imbere uko bwije n'uko bukeye, ni ngombwa rero kubukora neza kinyamwuga kugira ngo tugere ku iterambere twifuza rya buri munsi.

Ibishyimbo ni igihingwa gikunzwe cyane muri iki gihugu cyacu kubera ko hafi ya twese dukenera kurya kurya ibishyimbo buri munsi. Ni ngombwa rero kubihinga neza mu buryo bugezweho kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa twe n'imiryango yacu n'igihugu muri rusange.

Igihingwa cy'urutoki ni igihingwa cyiza kiri kwigarurira imitima y'abahinzi benshi mu Rwanda kubera ko iyo wakiseho kiguha umusaruro ufatika kandi mu gihe kitari kinini, ni ngombwa rero ko twese dushishikarira gukorera urutoki rwacu neza kugira ngo ruduhe umusaruro twifuza.

Ibimera bigizwe n'ibyatsi bitandukanye ndetse n'amashyamba ni inshuti y'umuntu y'akataraboneka, kubera ko biduha akuka keza duhumeka, bikanasukura ikirere cyacu, dukwiye natwe rero kubibera inshuti tukabirinda ababyangiriza mu ubuzima bwabyo bwa buri munsi.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa gikunzwe n'abatari benshi mu Rwanda kandi kikaba kirimo kwitabirwa gukorwa n'abantu benshi muri iki gihugu, ni ngombwa rero guhinga kijyambere ibigori byacu kugira ngo biduhe umusaruro uboneye.

NI ngombwa ko abanyeshuri batozwa imirimo ku bakiri batoya mu buzima bwabo maze uwo muco wo gukora bakawukurana bikazatuma babasha kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo igihe bazaba babaye abakuru, ntibinubire gukora ahubwo umumo unoze bakawugira intego.

Nyuma yo gusarura umusaruro ushimishije twakuye mu bigori, ni ngombwa kandi kumenya uko dukwiye kubibika no kubihunika. Kugira ngo imungu itabyangiza cyangwa se bikavaho byakwangizwa n'ubukonje, bityo umusaruro wacu ugapfu ubusa.

Igihingwa kigezweho muri iki gihe, iyo icyitayeho kiguha umusaruro ukwiye, uboneye kandi mu gihe gitoya, gishobora kugemurwa ku isoko, ariko kandi gishobora no kujyanwa mu nganda hagakorwamo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ikawa ni igihingwa cyiza cyane kubera ko gifite isoko ryagutse, ntabwo gifite isoko inaha mu Rwanda gusa ahubwo n'imahanga, umuhinzi w'ikawa wayikoreye neza ibasha kumuha umusaruro mwinshi kandi mu gihe cyihuse.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane kubera ko buduteza imbere iyo bwakozwe neza, ni ngombwa gutera ibihingwa by'umwihariko ibigori ku murongo kugira ngo izuba ribashe kugeramo bityo rero umusaruro dukura muri iki gihingwa wiyongere twiteze imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza cyane, iyo wabyitayeho buguteza imbere ku buryo bufatika kandi bidasabye igishoro gihambaye. Ni ngombwa rero ko twitabira ubu bworozi cyane cyane urubyiruko kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere n'imiryango yacu, aho guhora duteze amaboko dusaba akazi.

Imbwa ni itungo ryiza cyane, ni itungo ridufasha mu mirimo itandukanye ya buri munsi nko kurinda urugo. Ni ngombwa rero kuryitaho, tukarikingiza kugira ngo turwane n'ingaruka zateza tutarikingije.

Ubuhinzi buhuje ubutaka ni ubuhinzi bwiza cyane kubera ko buduha umusaruro mwinshi, iyo duhuje ubutaka tugahinga igihingwa kimwe bituma tubona umusaruro mwinshi kandi tukawugurisha bitatugoye kandi tudahenzwe kubera ko tuba twifatanije.

Ubuhinzi ni umwuga utunze Abanyarwanda benshi dore ko abarenga mirongo icyenda ku ijana by'Abanyarwanda bose ari abahinzi, ni nayo mpamvu umuntu wabikoze kinyamwuga, akabikora mu buryo bugezweho bidasiba kumukiza . Abantu bose barashishikarizwa guhinga kinyamwuga bagacana ukubiri no guhinga byo kwihaza mu biribwa gusa ahubwo bagashishikarira no gusagurira n'amasoko.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere mu Rwanda ndetse n'imahanga, tugomba kubukora neza, tukabukora kinyamwuga, tukabikora mu buryo bwa kijyambere kugira ngo turusheho kwiteza imbere, duteze imbere imiryango yacu ndetse natwe ubwacu.

Ni ingenzi ku muhinzi gutegura umurima hakiri kare, kugira ngo atazakererwa igihe cy'ihinga. Umurima ku muhinzi, utegurwa mbere kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera, azabe yiteguye. Ni ngombwa kugeza ifumbire y'imborera kare mu murima kugira ngo igihe nikigera, umuhinzi azabe yiteguye neza.

Kugira ubufatanye mu buhinzi ni kimwe mu byadufasha gutera imbere, iyo abahinzi bafatanije bagera ku musaruro mwinshi kandi mu gihe gito bitabagoye, ni ngombwa rero gukorera mu mashyirahamwe kugira ngo duhuze imbaraga zacu ako zitandukanye.

Igihe duhinga imyaka itandukanye, ni ngombwa no kumenya kuyitaho tukayirinda ibyonnyi biyibasira, dutera umuti kugira ngo utwo dukoko twibasira imyaka yacu dupfe. Tugomba kuyibagara, tukayisukira ndetse tukanayuhira igihe bibaye ngombwa.

Ibirayi ni igihingwa gikunzwe n'abantu benshi kubera ko kera ahantu hose mu Rwanda, ni ngombwa rero kubyitaho igihe ushaka umusaruro ugaragara, ukabibagara, ukabisukira ndetse ukihatira no kubitera umuti kugira ngo bitangizwa n'ihindagurika ry'ikirere.

Abahinzi twese dukwiye gushishikarira guhuza ubutaka, maze tugahinga igihingwa kimwe ku buso bunini. Bityo tukagurisha umusaruro wacu ku giciro cya nyacyo tudahenze, tukirinda abamamyi bashaka kutwubikaho urusyo.

Ububiko bw'ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi by'umwihariko ibyo kurya nk'umuceri, kawunga, ubugari ndetse n'ibindi byinshi bigomba kubikwa neza ahantu hafite isuku kandi humutse, kugira ngo bibirinde kuba byakwangirika maze intungamubiri zigatakara.

Ububiko bw'ibiribwa bitandukanye bw'umuceri, kawunga, amafu atandukanye nk'ubugari, bikwiye kubikwa neza ahantu humutse, ahantu hatagera izuba ryinshi, ahantu hafite isuku kugira ngo bigumane umwimerere wabyo.

Kurya imbuto zitandukanye nk'avoka, imyembe, amacunga, inanasi n'ibindi, ni iby'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko biturinda kurwaragurika tugahoranira ubuzima buzira umuze.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi dusarura buri gihe ugomba kubikwa neza, ukabikwa ahantu humutse, ahantu hasa neza, ahantu hafite isuku kugira ngo uwo musaruro ugumane ubwiza twawusaruranye.

Igihingwa k'imyumbati ni igihingwa kiza cyane gifite isoko ryagutse mu Rwanda kandi kitagora guhinga, umuntu yakirya agitetse ariko kandi ashobora no kugishesha akakiryamo ubugari, ari nayo mpamvu ituma isoko ryacyo rihora ryagutse.

Guhuza ubutaka ni ikintu cy'ingirakamaro kubera ko iyo duhuje ubutaka tugahingira ku buso bunini, tubasha kubona amasoko y'umusaruro wacu kandi tudahenzwe, ikindi kandi ni uko tuba twizeye neza ko aho hantu haberanye n'igihingwa tugiye kuhashyira kubera ko haba harasuzumwe n'ababifite mu nshingano.

Ibimera by'umwihariko ibiti bitugirira umumaro munini cyane harimo kuba bitanga umwuka mwiza duhumeka, tukabaho tutagira indwara zitandukanye nk'iz'ubuhumekero ariko kandi ibiti ni ingenzi kubera ko iyo bikuze turabitema, tukabikuramo inkwi, tukabibaza tugakuramo n'ibindi bikoresho bitandukanye dukoresha mu rugo.

Bijya kuba ibimera bitandukanye by'umwihariko ibiti bikurura imvura, bikanaduha umwuka mwiza duhumeka. Ibiti iyo bikuze turabitema, tukabikuramo inkwi zo gucana. Tukabibaza tukabikuramo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, nk'utubati, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'urutoki buri mu buhinzi bugezweho muri iki gihe kubera ko buduha umusaruro mwinshi, buduha ibitoki byo guteka, ibitoki byo kwenga tukavanamo umutobe ndetse tukagira n'urutoki rushobora kuduha imineke.

Ubu buhinzi ni ingenzi mu buzima, ariko ubuhinzi bwa buberi bukaba akarusho, kubera ko ni ubuhinzi bugezweho kandi buri guteza abantu benshi imbere, ubuhinzi butanga umusaruro yaba ku isoko ry'imbere mu gihugu, ndetse no ku isoko ryo hanze y'igihugu.

Igihingwa cy'ibijumba, ni igihingwa kigezweho muri iki gihe. Kiri kwitabirwa n'abantu benshi, bitandukanye no mu gihe cyashize. Igihe cyashize, ikijumba cyari icyo guteka mu nkono gusa ariko ubu ngubu gishobora no kugemurwa ku ruganda, kikavanwamo ibindi bintu nk'ibisukuti, imigati ndetse n'ibindi.

Gukikiza ubwatsi bw'urubingo imirima yacu ni imwe mu ngamba ikomeye yo kwirinda ko butaka bwacu bwatwarwa n'isuri, ariko na none ni ingamba ikomeye mu bworozi kubera ko inka, ihene, intama ndetse n'andi matungo birisha ubwo bwatsi maze umusaruro ukiyongera.

Ibidukikije ni ubuzima kubera ko tubikesha byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi by'umwihariko amashyamba aduha umwuka mwiza duhumeka, agakurura imvura ndetse n'iyo ibiti byayo bikuze turabitema tukabikuramo inkwi ndetse n'ibindi bikoresho dukoresha buzima bwacu bwa buri munsi mu rugo yaba intebe, utubati ndetse n'ibindi.

Voka ni urubuto rwiza rukungahaye ku mavuta kamere, atagira ingaruka n'imwe ku mubiri w'umuntu. Ni nayo mpamvu, isoko rya voka mu Rwanda ndetse n'imahanga ryagutse. Akaba ari yo mpamvu abahinzi ba voka, babigize umwuga, bari kugenda batera imbere muri iyi minsi.

Ibidukikije by'umwihariko ibiti, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, biduha umuyaga duhumeka ariko n'iyo bishaje bikuze turabitema tukabivanamo inkwi zo gucana cyangwa se tukabibaza tukabikuramo ibikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu rugo.

Ibimera bitandukanye ni inshuti y'umuntu ikomeye kubera ko biduha umwuka mwiza duhumeka, bigasukura ikirere cyacu, bityo ntitubashe kugerwaho n'ingaruka zikomeye z'imihindagurikire y'ikirere.

Usibye kuba biduha akuka keza duhumeka bikanasukura ikirere cyacu, ibimera byiganjemo indabo, imikindo n'ibindi biti byose by'imibitako, iyo biteye ahantu usanga bigaragara neza bikanogera amaso uyareba.

Uretse kuba ibidukikije bitugirira umumaro wo kuduha umwuka mwiza duhumeka, bigasukura n'ikirere cyacu, ibidukikije birimo indabo bituma ahantu hasa neza, bityo tugatura, kandi tukaba ahantu hasa neza mu buzima bwacu.

Kurya imbuto bituma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera, umuntu wariye imbuto zitandukanye nk'amatunda, ibinyomoro, amacunga n'ibindi agira ubuzima bwiza akabasha guhangana n'indwara zitandukanye, bityo akagira imibereho myiza yaba we ndetse nabe.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa kiri guteza abantu benshi imbere muri iyi minsi kubera ko gifite isoko hirya no hino mu duce tw'u Rwanda, reba nawe ikigori ushobora kukirya cyokeje, ukakirya gitetse, ukagishesha ukaba warya umutsima wacyo, igihingwa cy'ibigori kiratangaje.

Imbuto zitandukanye zirimo imyembe, avoka ndetse n'imineke bikungahaye ku mavitamine atandukanye bityo bigatuma dushobora kwirinda indwara z'ubwoko bwose, ni ngombwa rero gufata imbuto kuri buri funguro uriye kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Ibidukikije mu buzima bwa buri munsi ni ingenzi, kubera ko biduha umwuka mwiza duhumeka ariko bikaba akarusho iyo ufite ubusitani burimo ibimera by'amoko yose nk'indabo, imikindo ndetse n'ibindi. Biguha umwuka mwiza uhumeka ukumva uruhutse uguwe neza bityo ukabasha gukora akazi ka buri munsi.

Avoka ni urubuto rukunzwe n'Abanyarwanda benshi kubera ko Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa akamaro ko kurya voka, birimo kuba avoka ifite amavuta y'umwimerere, atagira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu.

Ibidukikije ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi tubamo, uretse kuba biduha umwuka mwiza duhumeka, bishobora nanone gusukura ikirere cyacu kandi bigatuma n'aho dutura haba hasa neza.

Ubuhinzi bw'imboga ni ubahinzi bigezweho muri iki gihe kubera ko abantu benshi bamenya agaciro ko kurya imboga, ni koko kurya imboga bituma turwanya indwara zituruka ku mirire mibi bityo rero akaba ari yo mpamvu imboga zifite isoko ryagutse yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga.

Ni ngombwa gutera ku mihanda yacu ibiti bitandukanye n'imikindo, indabo z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi biti kubera ko bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka kandi bigatuma ahantu haba hasa neza.

Guhinga kijyambere by'umwihariko guhingira mu nzu zabugenewe, ni byiza cyane kubera ko bituma ibihingwa bikurana ubuzima bwiza bidahuye n'ikibazo cy'ihungabana ry'ikirere. Ni ngombwa rero gukoresha ubuhinzi bugezweho kugira ngo tugire umusaruro ukwiye kandi wujuje ubuziranenge.

Buri gihe ni ngombwa kurya indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, urugero nk'ibijumba ndetse n'ibindi ariko kandi tukarya n'imboga kugira ngo tube turiye indyo yuzuye, bitugirire umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ni ahantu h'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ariho dukura, tukanahahira ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi, byaba ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa muntu.

Ubuhinzi bw'imboga ni ubuhinzi bwiza cyane kubera ko uwabukoze akabukora kinyamwuga bimuteza imbere, cyane cyane kubera ko muri iki gihe abantu bose basobanukiwe n'agaciro ko kurya imboga mu buzima bwabo, ni ngombwa rero kubikora kinyamwuga kugira ngo buguteze imbere.

Ubuhinzi bw'imiteja ni ubuhinzi iyo bwakozwe kinyamwuga bushobora kuguteza imbere kubera ko imiteja ni ubwoko bw'imboga bukunzwe cyane, yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Iyo bukozwe neza rero isoko ryabwo riraguka, ntibube bukiri ubukorerwa mu Rwanda gusa ahubwo n'imahanga bukagerayo.

Amatunda ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyane, aha bikaba akarusho ko muri iki gihe abantu basobanukiwe n'akamaro ko kurya amatunda ndetse n'izindi mbuto muri rusange, kubera ko birinda indwara kubera ko bariye imbuto zitandukanye.

Imboga n'imbuto ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuzifata buri munsi kuri buri funguro dufashe bisa no kwikingira, ariko by'umwihariko igitunguru cy'umutuku kidukingira indwara nyinshi zitandukanye, zirimo indwara z'umutima, kanseri zitandukanye ndetse n'izindi.

Kurya imboga zitandukanye ku ifunguro buri munsi bidufasha kwirinda indwara, ni ngombwa rero kurya imboga kuri buri funguro dufashe kugira ngo twirinde indwara bityo duhore dufite ubuzima buzira umuze twiteze imbere twe n'abacu.

Ibinyomoro ni igihingwa kiri guteza abantu benshi imbere mu Rwanda ndetse n'imahanga, ibi biterwa n'uko gifite isoko ryagutse, isoko ryacyo nabwo riherera hano mu Rwanda gusa, ahubwo rirambuka rikagera no mu bihugu duturanye ndetse n'ibya kure.

Imbuto ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko idufasha kurwanya indwara, maze tukabaho ubuzima bwiza. Imbuto zitandukanye nk'imineke, amarongi, imyembe ndetse n'izindi, ni ingenzi bikaba byiza iyo tuzifashe kuri buri funguro.

Ubuhinzi ni umurimo w'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ariho dukura ibidutunga bikadutungira n'imiryango, ni ngombwa rero kubikora kinyamwuga kandi kijyambere, kugira ngo dushobore kubona umusaruro twifuza utunga imiryango yacu ndetse tugasagurira n'amasoko tukiteza imbere.

Guhinga bya kijyambere bigezweho ndetse no guca amatarasi y'indinganire ku mirima yacu, ni ingenzi cyane kubera ko bituma ubutaka bwacu budatwarwa n'amazi bityo tukagira umusaruro mwiza kandi uboneye.

Imboga z'ubwoko bwose ni ingenzi mu buzima, gufata imboga kuri buri funguro dufashe ni ingenzi kubera ko biturinda indwara by'umwihariko nka karoti ndetse n'inyanya, zidufasha kubona neza ntitugire ibibazo by'amaso bitandukanye.

Igihingwa cy'urusenda ni igihingwa kiri guteza abantu benshi imbere muri iki gihe kubera ko isoko ryarwo ryaragutse, ntago riri imbere mu gihugu, ahubwo n'imahanga usanga rigerayo, ari yo mpamvu umuntu wabikoze neza yiteza imbere kakahava.

Usibye kuba ibimera biduha umwuka mwiza duhumeka no gusukura ikirere cyacu, ibimera cyane cyane indabo n'ibiti by'imitako, iyo biteye ahantu mu busitani, usanga hasa neza maze n'uhicaye bikamuha akayaga keza n'akuka keza ahumeka, akaruhuka mu mutwe, agakora akazi nk'uko byagenwe.

Umuneke ni urubuto rukunzwe cyane n'abatari bake kuri iyi si kubera intungamubiri ziwugize. Iyo wariye umuneke kimwe n'izindi mbuto zose bikurinda guhora urwaragurika ukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igihingwa cy'ikinyomoro kiri muri bimwe mu bihingwa bigezweho, kubera ko muri iki gihe abaturage basobanukiwe n'akamaro ko kurya imbuto cyane cyane ibinyomoro. Dore ko kizwiho kuba cyongera amaraso mu mubiri.

Ubuhinzi bw'imboga rwatsi ni ubuhinzi buri kwitabirwa na benshi, cyane cyane urubyiruko kandi bukabateza imbere kubera ko bufite isoko rigari mu duce dutandukanye tw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Abanyarwanda tumaze gusobanukirwa n'akamaro ko kurya imboga kuko biturinda indwara zitandukanye.

Ubuhinzi bw'avoka ni ubuhinzi bwiza cyane kubera ko isoko ryabwo ryaragutse, ntabwo abantu bagihinga voka kugira ngo bazikoreshe nk'amafunguro, ahubwo zoherezwa no mu nganda zitandukanye kugira ngo bakoremo amavuta atandukanye by'umwihariko ay'umusatsi.

Isoko ni igikorwa remezo cy'ingenzi mu buzima bw'umuturage. Kubera ko aho ni ho akura iby'ibanze akenera mu buzima bwa buri munsi. Ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, ndetse n'ibindi, abikura mu isoko. Ni ngombwa rero kubungabunga igikorwa remezo, kugira ngo gikomeze kiduteze imbere, twe n'abacu.

Kurya imboga ni ikintu k'ingenzi mubu buzima kubera ko umuntu wariye imboga ubudahangarwa bw'umubiri we buriyongera ntapfe gufatwa n'indwara ku buryo bworoshye, zimwe mu mboga zikungahaye ku ma vitamini ndetse n'intungamubiri zitangaje ni karoti aho zifasha amaso yacu kureba neza bityo tugaca ukubiri n'indwara z'amaso.

Igihingwa k'ininintoryi ni igihingwa gikundwa n'Abanyarwanda batari bake bigatuma rero isoko ryacyo riba hirya no hino mu gihugu. Igihingwa cyera ahanini mu bibaya ariko n'imusozi kikaba cyahaba, reka dushishikarire kugihinga kugira ngo twiteze imbere mu buryo bunyuranye.

Igihingwa cya avoka, ni igihingwa kiri guteza abantu benshi imbere, kubera ko isoko ryacyo, ryaragutse. Ibi biterwa n'uko Abanyarwanda benshi bamaze gusobanukirwa agaciro ka avoka, kubera ko igira amavuta meza, afasha umubiri aho kuwangiza, kugira ngo awongerere ibinure.

Kurya imboga n'imbuto buri gihe kuri buri funguro, ni ingenzi cyane mu buzima, kubera ko biturinda kurwaragurika ndetse no kuzahazwa n'indwara. Imboga zirimo imiteja, karoti, pavuro, sereri, n'izindi, ni ingenzi cyane muri ubu buzima kugira ngo twirinde indwara, ndetse tugire ubuzima buzira umuze.

Iyo tuvuze ubuhinzi bukozwe neza kandi kinyamwuga, tuba tubuze ubuhinzi budakangwa n'ibihe, nk'ibihe by'imvura cyangwa se ibihe byiza ngombwa rero kumenya guhinga kijyambere, ukamenya kuhira imyaka yawe mu gihe cy'izuba ndetse no mu gihe cy'imvura ukayitaho kugira ngo itangizwa n'ihindagurika ry'ikirere.

Ni ngombwa kwita ku bihingwa mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabibagara, tukabisukira, tukabivomerera mu gihe habaye izuba ryinshi bityo tukabivanaho umusaruro twifuza ushobora kuduteza imbere yaba twebwe, imiryango yacu n'igihugu.

Ibikorwaremezo bitandukanye nk'imihanda bikwiye kwitabwaho kubera ko byoroshya ubugenderanire ndetse n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye, ni ngombwa rero kubyitaho tukabibungabunga kugira ngo bijye bidufasha mu mihahirane y'ibice n'ibindi.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa kiza kandi cy'ingirakamaro gikunzwe n'abantu benshi mu Rwanda, dore ko bagikundira kuba ukiriye adatana no kugira ingufu zihagije, akaba yakirya gitetse ariko kandi akaba yashobora kugisheshamo ifu akarya ubugari bwayo.

Kwita ku mihanda yacu ni ikintu cy'ingenzi mu buzima kubera ko bituma twirinda impanuka za hato na hato, tukarengera ubuzima bwacu kandi tukarushaho kubaho neza. Ni ngombwa rero kwita ku bikorwaremezo byacu nk'imihanda, tubyitaho, byakwangirika tukabisanira ku gihe.

Buri gihe dukwiye gushishikarira gufata neza ubutaka bwacu, tukabuteraho imirwanyasuri kandi tukabucaho amatarasi y'indinganire kuko ari byo bituma amazi atabutwara ngo abujyane mu gishanga, bituma kandi amazi ahama mu butaka maze imyaka duteyemo igahora itoshye.

Amashuri ni isoko y'uburere, ubumenyi, ikinyabupfura n'imyitwarire myiza, umwana ugejeje igihe cyo kwiga ni ngombwa ko ajyanwa ku ishuri kugira ngo ategurirwe ejo hazaza he heza, bityo azabashe kwiteza imbere anateze imbere umuryango we.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi burimo guteza abantu benshi imbere by'umwihariko urubyiruko, kubera ko turukuramo umusaruro kandi mu gihe kitararanye. Ubworozi bw'inkoko bushobora kuduha amagi, bukaduha inyama kandi byose bigakorwa mu gihe kitarambiranye.

Ubworozi bw'amatungo by'umwihariko inka ni ubworozi biteza imbere uwabukoze neza kinyamwuga, inka yitaweho itanga umusaruro mwinshi harimo amata, ifumbire yo gukoresha mu buhinzi ndetse n'inyama bityo rero iyo wabukoze neza buguteza imbere wowe n'abawe.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane kubera ko tubukesha bwinshi, wakorora inka ikaguha amata, ikaguha inyama igatanga n'ifumbire yo gukoresha mu bindi bikorwa nk'ubuhinzi.

Bw'inkoko n'ubworozi bumaze kuba rurangiranwa atari hano mu Rwanda gusa ndetse n'imahanga kubera ko ubworozi bw'inko bwakozwe neza butanga amagi ahagije, bugatanga inyama, bugatanga n'ifumbire yo gukoresha mu buhinzi.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi mu muryango. Usibye kuba ubworozi bw'inkoko bwaduha amafaranga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, bwanadufasha kongera imirire myiza, kubera ko uworoye inkoko abasha kubona amagi ndetse n'inyama bitamugoye.

Buri gihe ni ngombwa kwita ku matungo yacu urugero; ni nk'inka, inka yitaweho neza, ikagaburirwa neza nayo ntisiba gutanga umusaruro ariko inka ititaweho, ikaba itamenyewe ubwatsi, amazi meza yo kunywa nta musaruro yaguha, ni ngombwa kuyitaho kugira ngo nawe uyiboneho umusaruro uyitezeho.

Ni ngombwa ko dushishikarira kororera mu biraro kubera ko aribwo tubona umusaruro ukwiye, tukabona ifumbire dushobora kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi nko mu buhinzi habamo ibihingwa bitandukanye, iyo twororeye ahandi hatari mu biraro ifumbire yacu irangirika ntitubashe kuyirunda hamwe ngo izatugirire umumaro.

Ubworozi bw'inkoko nI ubworozi bwiza cyane kubera ko budufasha kwiteza imbere mu buryo butarambiranye. Iyo woroye inkoko ushobora kuyikuraho umusaruro utandukanye nk'amagi, amagi ashobora gufasha kugira imibereho myiza binyuze mu mirire iboneye, ukayikuraho inyama ndetse ukaba wayikuraho n'ifumbire izagufasha mu buhinzi.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bugezweho mu Rwanda cyane cyane ubworozi bw'inka za kizungu kubera ko ari bwo bufasha kongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo mu buryo bwihuse iyo woroye neza kijyambere ubasha kubona umusaruro ukomoka ku matungo nk'amata, inyama ndetse n'ibindi kandi mu buryo bwihuse.

Ibikorwaremezo n'imihanda, ni byiza cyane kubungabunga, kubera ko byoroshya ubuhahirane, Imirenge, Uturere hagati yatwo tukabasha guhahirana, bityo ubufatanye mu iterambere ry'igihugu twese tukabigiramo uruhare.

Ubworozi bw'ingurube, ni ubworozi buri guteza abantu benshi imbere muri iki gihe, kubera ko butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, ingurube ishobora kubwagura ibyana nibura icumi mu gihe gitoya, bityo rero abantu bari kwitabiramo buno bworozi bw'ingurube ari benshi kugira ngo biteze imbere.

Ubworozi bwakozwe neza by'umwihariko ubw'inka bukiza nyirabwo, ni ngombwa kumenya kwita ku matungo yacu kuko tuyakesha ibyiza byinshi, iyo woroye inka iguha amata, ikaguha ifumbire, ikaguha amafaranga ni ngombwa kubyitaho mu buzima.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro mu buzima kubera ko buduha umusaruro ukwiye kandi mu gihe kitarambiranye, iyo inka ibyaye igira inyana, inyana ukaba wayigurisha mu mezi make ari imbere ariko kandi ikaguha n'amata ushobora kwifashisha mu muryango ndetse ukaba wasagurira n'amasoko.

Ubworozi bw'ingurube, ni ubworozi bwiza cyane bwateza uwabukoze kinyamwuga imbere kandi bidatinze. Dore ko ingurube imwe nibura ishobora kubwagura ibibwana icumi mu gihe kitarambiranye. Ni yo mpamvu rero umuntu wese ushaka gutera imbere vuba akwiye gushishikarira korora ingurube maze akabikora kinyamwuga, bikamuteza imbere.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane kubera ko butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, umusaruro butanga ni nk'uko inka iyo ibyaye iguha amata kandi ikaba ifite n'inyana ushobora kuzagurisha mu buzima buri imbere ukikenura.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomatanyije, ni inkingi y'iterambere rirambye. Kubera ko iyo worora, ubona ifumbire uzakoresha mu buhinzi bwawe, ari na yo mpamvu iyo bikomatanyije bibyara umusaruro, umuntu akiteza imbere ku buryo bufatika.

Ubworozi bw'amatungo by'umwihariko ubworozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane kubera ko inka yitayeho neza ishobora ku kuguha umusaruro mwinshi harimo amata, harimo inyama, harimo kandi n'ifumbire twakwifashisha mu miromo itandukanye, nk'ubuhinzi.

Ihene ni rimwe mu matungo magufiya ryoroshye kuryorora ariko rigatanga umusaruro mu gihe kitarambiranye, ihene rishobora kubyara rikaguha amafaranga, ushobora kuryororo ukarikuraho ifumbire ushobora gukoresha mu buhinzi maze ukiteza imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo yaba amagufi n'amaremare ni ingenzi mu buzima ariko iyo bukomatanyijwe n'ubuhinzi buba uburo buhuye. Ni ngombwa rero kwita ku buhinzi ariko tukita n'ubworozi kubera ko biradufasha kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Inka ni itungo riteza imbere umuturage, kandi rikagira uruhare mu mibereho myiza ye, iyo umuturage atunze inka ashobora kuyikama akayikuraho amata ashobora gutunga umuryango, bityo agatana n'imirire mibi kubera ko yanyoye amata, iyo ayitunze kandi ayikuraho ifumbire akayifashisha mu buhinzi, bityo akagira imibereho myiza n'umuryango we.

Ubuhinzi bwo guhingira mu tuzu twabugenewe, ni ubuhinzi bwateye imbere cyane kandi bukaba bugezweho, bufasha ibihingwa kutangizwa n'imihindagurikire y'ikirere nk'izuba ryinsheicyangwa se imvura nyinshi. Ni ngombwa rero kubwitabira kugira ngo duhinge bigezweho kandi kinyamwuga birusheho no kuduteza imbere.

Imigezi yacu ni ngombwa kugira ngo tuyiteho kubera ko tutayitayeho byadukururira akaga mu buzima, bigatuma duhora turwaragurika indwara zikomoka ku mwanda kubera ko aya mazi ari yo twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba imirimo yo mu rugo ndetse no kuhira imyaka.

Ubuhinzi bukorewe mu tuzu twabugenewe ni ubuhinzi bwiza cyane kubera ko bufasha ibihingwa kudahura n'imihindagurikire y'ikirere n'imvura nyinshi cyangwa se ubushyuhe bukabije, ni ngombwa rero kwitabira buno buhinzi kubera ko butuma tubona umusaruro ukwiye.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abanyarwanda benshi muri rusange, kikaba gikunze kwera imisozi miremire, ari na yo mpamvu kiboneka mu duce tw'amajyaruguru y'u Rwanda, ariko gikundwa n'abaturage bose ari na yo mpamvu isoko ryacyo rihora ryagutse.

Ibisigazwa bituruka ku biribwa bitandukanye ni ingenzi mu buzima, aho kubijugunya, ni ngombwa kubibika neza kubera ko bishobora kuduha ifumbire dukoresha mu buhinzi ndetse no mu yindi mirimo itandukanye.

Imbuto zahubitswe mu bihoho zihanganira imihindagurikire y'ikirere itandukanye. Ni ngombwa rero guhubika imbuto mu birere, igihe ushaka kuzagira umusaruro uboneye kubera ko niho uzazikura uzigemura, ujya kuzitera mu murima utunganije bityo bikaguha umusaruro kubera ko imbuto zawe uzaba wazirinze kwangirika.

Nyuma yo gutegura umurima, nyuma yo gutera imbuto zacu, nyuma yo kubagara no gusukira ibigori byacu ndetse na nyuma yo kubisarura ni ngombwa kubibika mu buhunikiro bwiza bwa kijyambere, kugira ngo tubirinde kuba byahura n'imungu cyangwa ubukonje bwakwangiza umusaruro wacu.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere bikorwa n'abantu benshi mu Rwanda, niyo mpamvu rero umuhinzi wa nyawe ategura umurima kare mbere y'uko igihe cy'ihinga kigera, bityo igihe cy'ihinga cyagera bikamurinda gukererwa ahubwo agakorera ku gihe bityo akiteza imbere n'umuryango we n'Igihugu muri rusange.

Inka ni itungo rifite amateka manini mu banyarwanda kubera akamaro karyo, turikuraho amata, tukarikuraho amavuta y'inka, tukayikuraho inyama, tukayikuraho ifumbire yo kwifashisha mu buhinzi, ni ngombwa na none ko turyitaho igihe ryarwaye kugira ngo tubungabunge ubuzima bwaryo rirusheho kuduteza imbere.

Ni ngombwa kuvuza amatungo yacu igihe yarwaye kubera ko biyafasha kugumana ubuzima bwiza, natwe akaduha umusaruro tuba twiteze. Urugero, nk'inka ni ngombwa kuyitaho ukayivuza kugira ngo igumye iguhe umusaruro w'amata, inyama ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbwa ni itungo rikunzwe n'abantu benshi ku Isi, no mu Rwanda rero bikaba uko kubera ko ridufasha imirimo myinshi harimo kurinda urugo bityo imbwa ikaba ifatwa nk'inshuti y'umuntu ya hafi, ni ngombwa rero kuzitaho tukazivuza igihe zarwaye kugira ngo zigomye zidufashe mu mirimo yacu ya buri munsi nko kurinda urugo.

Kororera mu nzuri ni iby'ingenzi cyane, kubera ko ariho ushobora kubona serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo bitakugoye, bityo umusaruro ukomoka ku bworozi ukiyongera, abantu bakiteza imbere mu buryo bufatika.

Ubworozi bw'inka, ni ubworozi bwiza cyane kubera ko tubukesha byinshi, harimo kuba buduha ifumbire yo gukoresha mu buhinzi, harimo kuba bushobora kuduha amata tukanywa, tukagira imibereho myiza mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Niba dukeneye kugera ku musaruro uhagije mu bworozi bwacu bwa buri munsi, ni ngombwa kwita ku matungo, yarwara tukayavuza kandi tukayitaho tuyaha ibyo kurya n'ibyo kunywa bihagije, kugira ngo umusaruro twifuza tuwugereho koko.

Inyamaswa zitandukanye usibye kuba ari byiza kuzitaho, ariko kuzitaho no kuzibungabunga zidufasha gukurura ba mukerarugendo baza iwacu mu Rwanda, bakaduha amafaranga twita amadovize, bityo bikadufasha guteza imbere Igihugu cyacu muri rusange.

Ingagi ni inyamaswa itangaje iyo uyirebye. Birashimisha kuyireba, ari na yo mpamvu aho ziri urugero mu Rwanda, hahora abakerarugendo baje kuzireba, ntakabuza igihugu zirimo, icyo gihugu gitera imbere kubera ko nk'abakerarugendo baza ku bwinshi, baza kuzisura.

Inyamaswa ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi by'umwihariko iziri mu muryango w'inkima n'inkende kubera ko zigaragara neza, ibyo bigakurura ba mukerarugendo binjira iwacu baje kuzisura bakadusigira amadovize adufasha mu iterambere ry'igihugu.

Inkende ni imwe mu nyamaswa itangaje kuyireba ari nayo mpamvu ikurura ba mukerarugendo benshi mu Rwanda. Ni ingenzi cyane rero kubungabunga zino nyamaswa kugira ngo dukomye twinjize amafaranga aturutse mu banyamahanga, bityo tugumye twiteze imbere nk'Abanyarwanda.

Ni ngombwa gufata neza ibinyabuzima bitandukanye nk'inyamaswa by'umwihariko inyoni kubera ko zigira uruhare runini mu buzima bwacu, aha ariko ahanini nko mu Rwanda, inyoni zikaba zikurura ba mukerarugendo baza kuzisura mu maparike atandukanye.

Inyoni ni ikinyabuzima gitangaje kubera ukuntu iba ifite amabara, ifite amabara y'uruvange bikanezeza amaso kuyireba, ariko noneho iyo bitaga gasuku yo ni igitangaza kubera ubuhanga yifitiye bwo kwigana amajwi y'ibintu bitandukanye amajwi y'abantu, amajwi y'inyamaswa, amahoni y'imodoka n'ibindi. Bituma abantu bayikunda cyane.

Ingagi ni inyamaswa nziza cyane kubera ko ikurura ba mukerarugendo benshi bakaza iwacu mu Rwanda, ni ngombwa rero kubungabunga icyanya nyaburanga ingagi ibamo kugira ngo tugumye tubone umusaruro ukwiye tuyikesha.

Inkende ni agasimba gatangaje, kabereye amaso kukareba. Ni yo mpamvu aho kari abakerarugendo badasiba kuhasibanira. Ni ngombwa rero kubungabunga ako kanyamaswa kugira ngo kagumye kaduhe amadovize, biciye mu bakerarugendo bagasura.

Ingagi ni inyamaswa nziza ziteye ubwuzu kuzireba. Ari na byo bituma ba mukerarugendo badasiba iwacu! Kugira ngo baze kuzisura maze bakaboneraho bakaduha amafaranga, twifashisha kugira ngo duteze imbere Igihugu cyacu.